Abantu benshi bahuriye hamwe bigaragara ko bari mu nama, aho imbere hari abantu babiri bambaye ibisa, bari kubasusurutsa. Inyuma yabo handitseho amagambo ngo rubyiruko menya amateka yawe.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bateraniye hamwe bari mu nama, bakaba bambaye imyambaro y'impuzankano, bahagaze imbere y'imbaga y'abantu, bari kugenda babakuririkira impano bafite zigiye zitandukanye.

Abantu bateraniye hamwe mu nama, aho bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, abana ndetse n'abasaza n'abakecuru, bose bareba imbere bita ku muntu uri kubagezaho ijambo.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama higanjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari kugenda baganira ku nsanganyamatsiko runaka yatanzwe, imbere yabo hari ibitambaro byiza cyane bisa umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama, hakaba higanjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo ku meza buri wese hakaba hagiye hateretseho icyo kunywa bitewe n'icyo akunda.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu cyumba k'inama higanjemo abagabo ndetse n'abagore, aho buri wese imbere ye ku meza afiteho ikayi ari kwandikamo ibyavuzwe ndetse hateretswe n'agacupa k'amazi.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama aho harimo abambaye imyambaro y'abashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi ndetse n'abasirikare ndetse n'undi mugabo uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi ari kubaganiriza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe aho mo imbere hagati yabo hari umugabo wambaye yatebeje w'inzobe afite indangururajwi mu ntoki ari kubakoresha iyo nama.

Abantu benshi bagiye batandukanye bateraniye hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore hakaba hari abagabo ndetse n'abagore bicaye mu ntebe bari gukurikira icyo abari imbere bari kubabwira.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho bicaye bari mu nyubako bigaragara ko bari mu nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, buri wese afite telefoni mu ntoki bigaragara ko hari ibyo bari kubahugura, bakaba bari gukanda iyo mibare.

Abagabo bagera muri batatu, bakaba bahagaze ahantu imbere, bambaye amakositimu babiri, undi umwe yambaye ishati, inyuma ye hatatse mu mabara y'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bagiye batandukanye bashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi bakaba bicaye mu nyubako nziza cyane bari mu nama, inyuma yabo hatatse mu mabara y'Ibendera ry'u Rwanda ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba k'inama higanjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro igiye itandukanye ndetse harimo n'abambaye amadarubindi aho bose bari kureba imbere bareba umuntu uri kubagezaho ijambo.

Abantu benshi batandukanye bambaye impuzankanro ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku bakaba bicaye ahantu muri sare bigaragara ko bari mu nama, bose barebye imbere barakurikiye bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubakoresha inama.

Umugabo uhagaze imbere afite indangururamajwi mu ntoki akaba yambaye ishati iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, imbere ye hicaye umupolisi wambaye impuzankano ziri mu mabara y'umukara akaba ari kugira icyo avuga.

Umuco nyarwanda ukomeje gusugira ugasagamba aho tubona intore ziri kugenda mu nsereko yazo nziza zambaye imigara ndetse n'udupira n'imitako yabugenewe zigenda zibyina ziseruka mu muco nyarwanda.

Abantu bari mu bukwe bigaragara ko ari ababyinnyi b'intore, aho harimo abakobwa beza cyane bari gukoma mu mashyi bari ahantu mu bukwe, bahagaze ahantu hashashe tapi y'icyatsi ndetse n'imbere hatatse neza cyane.

Abagore bambaye imikenyero y'icyatsi bari kubyina babyinira abantu bitabiriye inama bicaye inyuma mu matente atatse mu buryo bw'ibendera ry'u Rwanda ari mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu bagera muri babiri bambaye bya gakondo uko bigaragara umwe ni umwami undi ni umuhigi, umuhigi afashe umuheto ari gufora umwambi bigaragara ko agiye kurasa ikintu runaka.

Umuntu wize ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, yuriye urwego, aho agiye gukanika ngo arebe ikibazo umuriro we yageze. Yambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'ishati y'umukara n'agapfukamunwa.

Igikoresho kizwi nka mubazi gikunze kuba kiri ahantu kuri buri nzu aho kigenda kerekana umuriro w'amashanyarazi umuntu amaze gukoresha ndetse n'uwo asigaranye kugira ngo bimworohere.

Abantu b'abagabo bateranye bari hamwe bagera nko mu munani bambaye impuzankano utujiri ndetse n'ingofero, bahagaze imbere y'urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi bari kureba niba ibintu bimeze neza.

Ahantu bacuruza ibikoresho bijyanye n'ingufu z'amashanyarazi, aho bacuruza imirasire y'izuba, aho hari n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye, birambitse hasi kuri tapi isa icyatsi.

Abantu benshi cyane bashinzwe ibijyanye n'amashanyarazi bakaba bambaye utujiri tujya gusa icyatsi ndetse n'ingofero z'imyeru, aho bari ahantu hamwe bakaba bari kureba niba ibijyanye n'amashanyarazi bigenda neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba iteye n'irangi ry'ubururu ku bikuta, iyi nyubako rero ni nziza cyane kuko itangirwamo serivisi z'ibijyanye n'amashanyarazi.

Amazu yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho hagiye harimo umuhanda w'ibitaka ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti by'amapoto bitanga umunriro w'amashanyarazi ndetse n'amoko atandukanye y'ibiti by'ibimera.

Umugore wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'igisarobeti, akaba yuriye ifoto agiye kureba ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Uburinganire bwaraje rero abagore na bo basigaye biga ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi.

Ahantu hari amapironi menshi cyane bigaragara ko bashaka kuhakora urugomero rw'amashanyarazi, hari n'imashini nyinshi zabugenewe zifashishwa mu gukora icyo gikorwa ndetse n'abantu bazikoresha.

Urugomero rw'amashanyarazi aho hari moteri nyinshi zigenda zitanga ingufu z'amashanyarazi, hakaba hari abahanga babyigiye bari kugenda bakanika umuriro w'amashanyarazi kugira ngo barusheho kongera imbaraga zawo.

Abantu biga ibijyanye n'amashanyarazi bakaba buriye amapironi, aho bambaye ibisarubeti by'ubururu bakaba bari kugenda bayakanika kugira ngo babashe gukora neza ibijyanye n'ibyo bize.

Ahantu hari amapironi menshi cyane agiye atandukanye bigaragara ko ari ku rugomero rw'amashanyarazi kuko hari ibikoresho byinshi cyane by'itumanaho bigiye bitandukanye ndetse n'iby'ikoranabuhanga.

Ipironi ni kimwe mu gikoresho kiba cyubatswe mu byuma cyifashishwa bari gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo nabo iterambere ribagereho maze bage bacana.

Umunara ni kimwe mu gikoresho cy'itumanaho, cyifashishwa mu gutanga ihuzanzira, kiba kiri ahantu ari kirekire, cyubakishije ibyuma biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku ndetse kikaba gifite n'abarinzi bakirinda.

Umuhanda wa kaburimbo aho uyu muhanda hagati yawo na mugenzi wawo hagiye harimo ubusitani buteyemo amatara yo ku muhanda awucanira, ikaba kandi ikikijwe n'amazu n'utuyira tw'abanyamaguru.

Inyubako nziza cyane z'amashuri abanza, aho izi nyubako bari kuzubaka, none umuyaga ukaba wahushye, ugasakamburura amabati yazo, ni byiza cyane ko bahita bazisana.

U Rwanda rwateye imbere, aho ubu ngubu ku muhanda wa kaburimbo aho uva ukagera, haba hari amatara yo ku mihanda, agenda amurikira umuhanda, ku buryo umuntu agendamo bwije nta kibazo afite, hose ahabona.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, ziteye amarangi y'ubururu ku bikuta, biragaragara ko ari ku ivuriro kuko hari ubusitani bwiza cyane, buteyemo indabyo nyinshi zitandukanye.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bahagaze mu busitani bwiza cyane buri imbere y'inyubako nziza cyane y'Akagari kanditseho ngo ibiro by'Akagari ka Karama.

Abanyeshuru bagiye batandukanye bambaye impuzu mpuzankano z'ishuri, bakaba bambaye iz'umukara ndetse n'umweru, bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hariho n'urugi rw'umweru n'umukara.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera harimo ikiraro giciye hejuru mu kirere aho abantu bakigenderaho, si aho gusa ndetse no mu turere tugiye dutandukanye nk'Akarere ka Huye ndetse na Nyagatare tuba dufite ibiraro nk'ibi ngibi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere akaba ari inyubako zo ku kigo cy'amashuri, zubakishije amatafari ahiye ndetse ayo mashuri nta busitani agira, hakaba haparitsemo moto ebyiri.

Ikiraro kiri kugendwaho n'imodoka ihetse imizigo, kikaba ari ikiraro cyubatswe mu buryo bugezweho, aho cyubakishijwe ibyuma. Ku mpande z'uwo muhanda hateye ibiti biebire bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho hari n'ibindi biparitse ku muhanda ukaba ukikijwe n'amazu meza asakajwe amabati y'icyatsi, hakaba hari n'indi mihanda myinshi cyane igiye ishamikiyeho.

Umugore wambaye imyambaro yabugenewe akaba yambaye agasharupe k'umukara n'umutuku ndetse akaba afite n'ibage mu ntoki, akaba ahagaze imbere y'ibyapa bigaragara ko agiye gutega imodoka.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bari kugenda ahantu mu muhanda higanjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro igiye itandukanye aho bari kwambuka ikiraro kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugerwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo moto ndetse n'amagare, ku ruhande haparitsemo ibifuso bitwara imizigo igihe kirekire biri mu mabara agiye atandukanye.

Abantu batandukanye biganjemo abanyeshuri n'abarimu bakaba bicaye ahantu runaka bari mu nama imbere yabo hari umugabo uhagaze ari kugira ijambo abagezaho.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa aho zubabakishije amatafari ahiye, imbere yazo hari umuhanda wa kaburimbo uri gutambukamo abaturage bagiye batandukanye bagiye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Umuhanda wa kaburimbo aho uwo muhanda ufite ibintu bigiye bitandukanye biwutatse, aho hari ibyapa bibiri kimwe kiri mu mabara y'ubururu n'ikindi cyapa ndanga cyerekezo kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zisakaje amabati y'ubururu ndetse zikaba ziri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hari umusozi mwiza cyane.

Abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore aho buri wese ateruye umwana imbere ye ndetse bakaba bari imbere y'inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho.

Inyubako zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho zisakaje amabati y'umutuku ndetse zikaba ziteye irangi ry'umweru ku bikuta, zikikijwe n'ubusitani bwiza cyane bugezweho ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari mu nama. Bicaye ahantu mu busitani bwiza cyane ndetse burimo n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba afite indangururamajwi mu ntoki, aho ari gutanga ikiganiro avuga ku bijyanye n'ubutabera ko ikiremwamuntu gikwiye kubungabungwa. Abandi na bo bamuteze amatwi.

Umugabo uhagaze imbere wambaye ishati irimo amabara agiye atandukanye harimo amabara y'ubururu, umukara, akaba afashe indangururamajwi ari imbere y'abandi bantu ari kugira icyo abagezaho.

Abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagabo bakaba bahagaze imbere y'imodoka ahantu hari utwatsi twiza ndetse hirya yabo hari umurima uteyemo insina nyinshi.

Amashitingi yubatse neza mu buryo bugezweho aho haba harabera inama, mo imbere hicayemo abantu bagiye batandukanye ndetse hakaba hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abagore n'abagabo bakaba bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko ari ku ishuri, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'ikarita iranga ibyo akora mu ijosi.

Abantu benshi bagiye batandukanye aho bamwe bahagaze abandi bicaye bose bakaba barebye imbere bigaragara ko hari ikintu runaka kiri kuhabera hanyuma bakaba bari kureba ibyo ari byo muri aba bantu ni benshi cyane.

Abagabo bagera muri batatu bahagaze ahantu ku kigo cy'amashuri harimo umwe wambaye ikarita iranga ibyo icyakora mu ijosi ishati y'umweru ndetse n'amadarubindi n'undi wambaye ipantaro y'umukara afite n'ikayi mu ntoki ndetse n'undi udafite ikintu na kimwe mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo aho uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nk'imodoka, hakaba hari andi ma moto ari kuhagenda ku mpande, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo aho ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru aho hari n'icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara kirimo kigaragaza ko umuhanda imbere ugiye ukatakase.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendrwamo n'ikinyabiziga kizwi nka moto aho kicaweho n'umumotari akaba yacanye amatara ku mpande z'uyu muhanda hari amazu yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere.

Umuhanda wa kaburimbo aho kuri uwo muhanda ku ruhande rwawo hari icyapa kerekana ko ugomba kugendera mu muvuduko wa mirongo inani, ukaba kandi ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu mabara agiye atandukanye y'umutuku, umweru ndetse n'umukara kikaba giteye ahantu ku ruhande rw'umuhanda, aho kigaragaza yuko imbere ku muhanda hashamikiyeho undi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo Ryabega, kiri imbere y'ishyamba iri shyamba rikaba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, ibi biti ni ingirakamaro cyane kuko bibasha kuzana umuyaga ndetse n'imvura.

Isambu mu ngari cyane igiye irimo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi ndetse hakaba harimo n'icyapa kiri mu mabara y'umweru, cyandikishijeho inyuguti z'umukara kigaragaza ubuso bw'aha hantu.

Ku mihanda ya kaburimbo by'umwihariko aho umuhanda uhurira n'undi, hakunze kuba hari ibyapa, bifite ubuso bw'umutuku, umuzenguruko w'umweru, byanditsemo amagambo mu ibara ry'umweru, avuga ngo gendaza make utaza guteza impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru mu ruhande rw'iburyo ndetse hari n'icyapa kiri ahantu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'akamenyetso kerekana ko uwo muhanda imbere ukatakase.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru kikaba gishushanyijeho igishushanyo mbonera cy'inyubako igiye kubakwa mu minsi iri imbere. Kiri imbere y'umuhanda wa kaburimbo, aho uwo muhanda ukikijwe n'amapoto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka nziza cyane z'abayobozi, aho uyu muhanda ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'inyubako nziza cyane zigiye zitandukanye.

Ahantu hari umuhanda wa kaburimbo ariko kandi ukikijwe n'akayira gatwara amazi kazwi nka rigore ndetse n'icyapa kiranga nimero z'uwo muhanda. Hakaba hari n'inyubako nziza zitagaragara neza.

Ku muhanda wa kaburimbo hakunze kuba hari ibyapa bigaragaza nimero z'umuhanda ndetse n'aho umuntu ageze haba hari kandi n'amatara acanira umuhanda mu masaha ya nijoro kugira ngo habone.

Abantu benshi bahuriye hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba bahagaze ahantu mu busitani hari umugabo uhagaze imbere ari kugenda akoma mu mashyi atera indirimbo maze na bo bakamwikiriza.

Abantu bateraniye hamwe biganjemo abagore ndetse n'abagabo bakaba bambaye utujire bigaragara ko bari mu nama runaka bose bakaba bicaye barebye imbere bigaragaza ko bakurikiye umuntu uri kubagezaho ijambo.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari mu murima bari guhinga, bakora umwuga w'ubuhinzi, aho batangiye icyate cyabo bari guhinga kugira ngo bazabashe kwiteza imbere ndetse bazabashe gutera imyaka.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo aho imbere yabo hahagaze umusirikare wambaye impuzankano za gisirikare afite indangururamajwi mu ntoki ari kugira icyo ababwira.

Abantu benshi bagiye batandukanye bicaye hamwe mu mashitingi atatse neza aho atatse mu mabara y'idarapo ry'u Rwanda biri mu mabara y'ubururu icyatsi n'umuhondo hakaba harimo umugabo w'umuporisi ndetse n'umusirikari.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye bahuriye hamwe ku biro by'Akagari mu gikorwa cy'umuganda. Higanjemo abambaye imyenda y'umukara, umweru ndetse n'umutuku. Harimo kandi n'abashinzwe umutekano, bazwi nk'abasirikare.

Umugore wambaye agapira k'umutuku akaba yambaye'pantaro, ari kugenda mu kibuga bigaragara ko hari abakinnyi bari gukina bakaba bagiye kubasuhuza, barabishimiye kubera ukuntu bakinnye neza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri higanjemo abagabo abagore ndetse n'abana bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye aho imbere yabo hari umuntu uri kugenda abaha ingeroro.

Abantu bari kugenda mu muhanda w'ibyatsi, aho bari kugenda bambaye impuzu mpuzankano, bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, bakaba bari kugenda bishimye, imbere y'ikigo cy'amashuri gifite ubusitani bwiza.

Umukinnyi wambaye imyambaro yo mu kibuga isa ubururu ari kureba abantu bari kumufotora, hirya hari abandi bakinnyi batandukanye bigaragara ko bagiye gukina umukino runaka.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari gukora imyitozo ngorora mubiri, higanjemo abakuru ndetse n'abatoya ,bose bahagaze mu kibuga gishashemo tapi isa icyatsi, ndetse hariho n'umurongo usa umweru.

Abantu benshi batandukanye bateraniye hamwe bari gukora imyitozo ngororamubiri aho bose barambuye amaboko bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye ndetse bari mu kibuga kigari cyane.

Abakinnyi bari mu kibuga bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye y'ubururu n'umuhondo, bakaba bagiye gutera koroneri aho bose biteguye kugira ngo bamwe bakize izamu abandi bashyire ku mitwe batsinde.

Umugabo uhagaze wambaye agapira k'amaboko magufi akaba afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amadarubindi akaba ahagaze muri sitade, uko bigaragara uyu ni umuyobozi w'Akarere.

Ikibuga kiza cyane giteyemo ibyatsi by'umucaca aho harimo abantu babiri bari gukina uyu mupira aho umwe yafashe umupira ari kwiruka undi ari kumwirukaho, hirya yabo hari abandi bantu baje gufana.,

Amoko agiye atandukanye y'ibikombe byo gutangwa mu mikino y'umupira w'amaguru, aho biba bitatse neza mu tubara twiza cyane turimo umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku ndetse n'umweru.

Abakinnyi benshi cyane aho bahagaze mu kibuga bambaye impuzu mpuzakano, bari muri sitade aho bagiye gusuhuzanya hanyuma bakabona gutangira umukino, sitade ifite intebe zikozwe mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu benshi cyane, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, bigaragara ko ari mu masaha ya nijoro kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka, bari kugenda biruka, bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bamererwe neza.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye imyambaro iri mu mabara y'imihondo n'icyatsi ndetse bakaba bari muri sitade mu kibuga aho bitegura gukina n'ikipe ngenzi yabo.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane kuko aba bantu tubona, bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri, aho bari kwiruka kuri mucaka, hakaba harimo umusore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'abandi bambaye udusengeri.

Abakinnyi benshi cyane bambaye impuzankano zisa bakaba bari ahantu muri sitade bari gukora imyitozo mu gihe umupira utari watangira, bambaye inkweto nziza cyane zisa umweru.

Umuhanda w'igitaka aho ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane bugizwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse hari na rigore itwara amazi ndetse imbere hari inyubako nziza isakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo aho uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nka moto, ukaba ari umuhanda ufite utuyira tw'abanyamaguru tugiye tuwukikije ndetse hagiye hateye n'indabyo nziza cyane.

Umuhanda ushashemo amapave, aho hari umuntu uhagazemo ariko utagaragara ibice byose kuko haragaragara igice cyo hejuru gusa ndetse uyu muhanda ufite utubara tw'umukara ndetse n'umutuku n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uyu rero ukaba ari umuhanda wa kijyambere washyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kwihutisha iterambere.

Umuhanda wa kaburimbo uri ugendwamo n'imodoka y'umweru uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi ndetse n'utuyira abagenzi b'amaguru banyuramo.

Umuhanda w'igitaka aho uwo muhanda urimo igicucucucu cy'umuntu ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi byiza cyane ku buryo kubyicaramo byaba ari byiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ikinyabiziga cya moto. Uyu muhanda rero ukaba ufite uturongo ku ruhande turi mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Ukaba ukikijwe n'utuyira tugenderwamo n'abanyamaguru.

Umugabo wambaye agapira k'umweru na kasike y'umutuku akaba ari guhambira ibicuruzwa avuye guhaha kuri moto kugira ngo abashe kubijyana kubicuruza, iruhande rwe haparitse igare ni mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho uyu muhanda ufite akandi gahanda kawushamikiyeho kari kunyurwamo na moto, kakaba gakikijwe n'ibiti byinshi.

Umugore uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo aho akenyeye igitenge cy'icyatsi akaba ahetse n'umwana yamutwikije agatambaro k'umweru, uwo muhanda wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umugabo uri kugenda mu muhanda wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ipantaro ijya gusa n'ivu, ari kugenda mu muhanda uwo muhanda akaba ari umuhanda w'igitaka, inyuma ye hari inzu iri kurenga ifite inzugi z'ubururu.

Umuhanda w'igitaka ugiye urimo utubuye twinshi ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane bakunze kuragiramo amatungo y'inka, hakurya ari kugaragara udusozi turiho inzu zisakaje amabati.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenrwamo n'imodoka, iyo modoka kandi ikaba ari imodoka igezweho, uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo amogi atandukanye y'ibiti ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru.